Hari uburyo bwinshi bwo guhunika ifumbire, aho wabasha gushyira ifumbire ahantu hamwe, hanyuma rikazagenda ryitunganya rivuye mu byatsi, bitagombeye kuzana amatungo.

Mu maduka aho bacuruza ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, haba harimo amacupa agiye atandukanye ndetse n'ibikarito byinshi biba birimo imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi.

Abantu batandukanye bari hagati mu murima w'urubingo, aho harimo abagabo ndetse n'abagore bari gucamo umuyoboro bagenda batiyura kugira ngo hamere neza kurushaho.

Ahantu mu iduka, aho bacururiza ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, haba imiti, ndetse n'ibindi bikoresho abahinzi bose bakenera, biba bihari.

Abagabo bagera muri babiri, bari kugenda mu murima w'ibigori, aho bari kugenda bashyiraho ifumbire ryo mu bwoko bwa ire, iri fumbire barikoresha bari kubagara kugira ngo imyaka imererwe neza

Abahinzi bateraniye ahantu hamwe aho harimo umugore uri kugenda adaha ifumbire n'igitiyo, aribanagira hanyuma na bo barinyanyagiza mu murima kugira ngo bategure buryo ki batera imyaka.

Umugore wicaye ahantu mu nzu bacururizamo imiti yifashishwa mu buhinzi, aho harimo utubati turimo amoko menshi agiye atandukanye y'imiti, tukaba turi mu mabara y'umweru.

Ibirayi ni ibihingwa by'ingirakamaro cyane kuko iyo bisaruwe babigemura ahantu mu mijyi igiye itandukanye hanyuma abantu batuye mu mujyi bakabirya hanyuma bakamererwa neza.

Icyumba gicururizwamo ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, aho biba biri mu dukarito bikagenda byifashishwa kugira ngo umuhinzi abashe gutubura umusaruro we, kandi abashe kwiteza imbere.

Akabati karimo amoko y'imiti agiye atandukanye. Iyo miti ikaba iri mu ducupa dusa umweru ndetse n'icyatsi, hejuru y'akabati harambitse ubwoko bwinshi bwa bote bifashisha bagiye mu mwuga w'ubuhinzi.

Umugabo wambaye agapira k'umweru gatambitsemo uturongonmo tw'umukara, akaba ahetse ipombo ndetse yambaye n'ingofero, ari kugenda atera umuti ibihingwa bye by'inyomoro yahinze kugira ngo bitagira indwara ibifata.

Umugore uri kugenda atindura ifumbire arijyana aho bari guhinga, hakaba hari ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye batwikiriza aho bamaze gushyira iryo fumbire kugira ngo ritaza kuma.

Ni aho bacuruza amoko agiye atandukanye y'imiti, aho iyi miti yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, igihe cyose uyikeneye wagana hano bakayiguha.

Intoki zumugabo zifashe ifumbire y'imborera ikomoka ku misundwe, aho bari kutwereka ko imishundwe yabasha gukora ifumbire mu gihe gito bitabaye ngombwa ko worora amatungo.

Umugabo wirabura wambaye imyambaro iri mu mabara y'umweru, akaba acuruza imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, akaba ari kwerekana icupa ririmo umuti wifashishwa.

Amacupa agera muri abiri ari mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku n'umuhondo, hakaba hari amagambo ahanditse ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, uko bigaragara harimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zinyuranye.

Mugari cyane bigaragara ko wasaruwemo ibigori ariko kandi ukaba umaze guhingwa, biragaragara ko witeguye kuba waterwamo ibindi bihingwa bikurikiyeho mu gihembwe gitaha.

Ahacururizwa amoko menshi agiye atandukanye y'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, haba harimo umuntu wabyigiye uzwi nk'umuveterineri, aho atanga ibikoresho byose abahinzi bakeneye.

Umurima uteyemo amashu hakaba hari umugabo uhetse ipombo ari kugenda atera umuti ayo mashu kugira ngo arusheho kumererwa neza maze azatange umusaruro uhagije.

Ahacururizwa imiti ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, haba harimo utubido turimo imiti izwi nka koda.

Ubuhinzi ni umwuga w'ingirakamaro cyane, aho havamo umusaruro mwinshi kandi ufatika, hanyuma ukanyuzwa mu nganda, bakazana umusaruro uri mu dufuka, hanyuma bakadupanga hamwe, abantu bakagenda bajya kugura.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukomeje gutera imbere mu Rwanda. Aho badushishikariza kubitera ku mirongo hanyuma byamara gukura tukagenda tubitera imiti. Aba bagabo rero bari kugenda babitera imiti kugira ngo bizatange umusaruro uhagije.

Imifuka igera muri ine, iteretse ahantu kuri sima, irimo ifumbire yifashishwa mu buhinzi. Hakaba handitseho mu magambo y'icyatsi inyuguti ngo "NPK".

Aho bacururiza imiti yifashishwa mu buhinzi, aho harimo uducupa twinshi turi mu kabati tugiye dufite amabara atandukanye y'umweru, icyatsi, ubururu n'ayandi.

Ni muri farumasi aho bacuruza imiti igiye itandukanye bifashisha mu buvuzi bw'amatungo, harimo umuveterineri wabyigiye wambaye itaburiya y'umweru, aho agenda afasha abamugana.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, akaba ahagaze mu iduka ricuruza imiti igiye itandukanye, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, akaba ari kugenda areba ibyagira akamaro kurusha ibindi.

Umugore ubyibushye wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, akaba yazirikiye imisatsi inyuma, ari kugenda mu murima w'ibigori, aho ari kugenda areba ko byujuje ubuziranenge, ari kumwe n'abandi bahinzi, ba nyiri uwo murima.

Ibyapa byinshi bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umweru bikaba byanditseho amagambo ari mui ibara ry'icyatsi byerekana ko aho hantu bacuruza ibikoresho ndetse n'imiti byifashishwa mu buhinzi.

Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwiza ko buri muturage wese agomba kugira akarima k'igikoni agomba guteramo imboga, hanyuma akazajya azifashisha zikarwanya imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana bakiri bato.

Umukobwa uri kugenda mu murima w'inyanya yambaye bote ndetse n'ipantaro y'ikoboyi n'agapira k'umukara n'udupfukantoki tw'icyatsi, akaba ari gukora ku nyanya ndetse ahetse n'ipombo mu mugongo.

Abantu babiri bambaye amashati y'imituku, aho bari kugenda bashyira ifumbire ku kideyi, umwe aragifashe undi ari kugenda ashyiraho ifumbire, hakurya hari umugabo uri kubatumbira areba ibyo barimo gukora.

Ku ishuri mu cyumba cy'isomero, haba harimo etageri nyinshi zigiye zitandukanye, aho ziba zirimo ibitabo, harimo kandi n'intebe umuntu ukoramo yicaramo, hanyuma akagenda afasha abanyeshuri.

Aha ni ahacururizwa imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi. Iyi miti rero, igihe cyose waba uyikeneye wanyarukira hano bakayiguha.

Umukobwa wambaye uturindantoki tw'icyatsi, agapira k'umukara, ipantaro y'ikoboyi, ndetse n'inkweto za bote, akaba ahetse ipombo ari kugenda atera umuti ibihingwa bye.

Utubido tugiye dutandukanye turimo imiti myinshi yifashishwa mu buhinzi ndetse n'udukarito tugiye dutandukanye na two turimo imiti yifashishwa mu buhinzi.

Akenshi na kenshi iyo ugeze aho bacuruza ibikoresho bikomoka cyangwa byifashishwa mu buhinzi, usanga haba hashushanyijeho agacupa ndetse n'imiti y'ibiba bikarimo ndetse n'icyo bimara.

Inzu icururizwamo ibyifashishwa mu buhinzi, cyane cyane nk'ibikoresho birimo imiti ndetse n'imirama, bikunze kuba bipanze mu tubati kandi birinzwe neza cyane.

Ubuhinzi bw'ibihaza ni ubuhinzi bumaze gutera imbere muri iki gihe kuko umuntu asigaye ahinga ibihaza, byakwera akabijyana ku isoko hanyuma bakamuha amafaranga akabasha kwiteza imbere.

Ahantu hateye imbuto nyinshi cyane zigiye zitandukanye, aho ziteye mu buryo bw'imirongo, zikaba zikiri ntoya zitarakura, ku buryo n'itaka riba riri kugaragara.

Inyanya iyo zikiri mbisi ariko zitaratukura, umuhinzi wazihinze atangira kubona ko ziri hafi kwera, maze akaba yabona amafaranga nk'umusaruro w'imvune yavunitse.

Imyumbati iteye ahantu mu murima, iyi myumbati rero ni ingirakamaro kuko yifashishwa mu kurwanya inzara mu baturage, si ibyo gusa kuko inatanga amafaranga ku muhinzi wayihinze.

Abantu bakora umwuga w'ubuhinzi bakunze guhinga ibihingwa bigiye bitandukanye, hari ibihingwa biteye amayobera ku buryo umwana uturutse mu mugi atabasha kumenya ibyo ari byo, nk'ibi ngibi rwose biteye amayobera.

Umurima uteyemo amoko menshi y'imbuto zigiye zitandukanye. Hateyemo amaronji, aho aba ari ku giti kirekire, harimo kandi n'insina yo mu bwoko bwa fiya.

Abakobwa bagera muri babiri, aho buri wese afite urubuto rw'inanasi mu ntoki, bakaba bari kwerekana ko ubuhinzi bw'inanasi bwaguteza imbere uramutse ubwitayeho.

Hari amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera abahinzi bahinga ku buryo umuntu utari inzobere mu buhinzi, atabasha kumenya ubwoko bw'ibyo bihingwa.

Dodo zimaze gutera imbere cyane aho abahinzi basigaye bazihinga hanyuma zakwera bakajya kuzigurisha ku masoko bakabonamo amafaranga bakabasha kwiteza imbere.

Ahantu mu mubande haba harimo imigenda cyangwa se imikoke iba irimo amazi, aya mazi rero ni ingenzi kuko bayifashisha bari kuhira imyaka ihinze hafi ahongaho.

Ibiti bizwi nk'imisederi ni ingirakamaro cyane kuko iyo ubiteye bidufasha kurinda isuri ndetse bikazanatanga umusaruro kuko iyo bikuze babivanamo imbaho.

Umurima mwiza cyane uteyemo ibigori byiza bitoshye, bigaragara ko byabonye ifumbire rihagije, ibyo bigori bikaba bibyibushye ku buryo nibyera bizatanga umusaruro uhagije.

Ikiganza cy'umuntu gifashe umuceri, bari kutwereka ko uyu muceri ari mwiza cyane, kandi wahingiwe iwacu mu Rwanda, bakunda kuwuhinga ahantu mu gishanga, rero ni byiza ko tuwitaho.

Insina ziteye hamwe ahantu mu gisambu aho hari imwe ifite igitoki, iki gitoki rero kikaba kizwi ku bwoko bwa poyo, iki rero iyo cyeze kigira imineke myiza abantu bakunda ndetse ikanaryoha.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere cyane, aho haba hari aho binaza izo mbuto, hanyuma umuntu akazivanamo agiye kuzitera zimaze kuba nkuru, hanyuma zikazamuha umusaruro.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze mu murima w'amashu, akaba ari kuyasura ngo arebe ko ameze neza kuko yiyemeje guhinga amashu.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera ariko higanjemo cyane ibyo tuzi nk'ingemu cyangwa se insina. Hari kandi urupangu rwubakishije broke ciment ndetse hari n'ubwatsi bw'amatungo.

Ikigori kigeze mu kigero cyo kwera ariko kitaruma, kikaba giteye ahantu mu gisambu, ndetse hirya yacyo hari insina nyinshi, ndetse n'indabyo nyinshi, ni byiza guhinga ibigori kuko bitanga umusaruro utubutse.

Abakobwa babiri bafite inanasi mu ntoki zabo ndetse imbere yabo harambitse n'izindi bigaragara ko bari kuzicuruza mu isoko, bombi barishimye kandi bari kumwenyura, hirya hari abandi bantu bari mu isoko.

Isambu iteyemo ibishyimbo bigufi byinshi kandi byiza cyane, ibi bishyimbo byabonye imvura ndetse n'izuba n'ifumbire bihagije, ku buryo bizatanga umusaruro utubutse.

Ni byiza cyane ko iyo uhinze ibigori ukabyitaho, ukabifumbira neza na byo biguha umusaruro uhagije. Ibi bigori rero nyirabyo bizamuha umusaruro uhagije bityo abashe kwiteza imbere.

Ni byiza cyane ko mu gihe umuntu yiyemeje gukora umushinga w'ubuhinzi awukora kinyamwuga, akirinda kuvanga ibihingwa, izi nsina rero ziri mu bwoko bwa fiya aho ziteye ku murongo mu buryo bugezweho.

Umuhanda mugari ndetse urimo ibiti byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, uwo muhanda rero akaba ari umuhanda w'igitaka.

Umurima bigaragara ko uhingiweho ukaba uteyemo insina nziza cyane kandi nini zo mu bwoko bwa fiya, izi nsina rero zikaba zitanga umusaruro ugaragara.

Abamama benshi cyane ndetse n'abagabo bateraniye hamwe aho bari gukusanya umusaruro wabo wavuye mu buhinzi, bari kugenda bakusanya ibirayi basaruye kugira ngo babigurishe.

Umugore wambaye agapira k'umukara, ufite imisatsi ya menshi ndetse ukenyeye n'igitenge cyiza cyane yunamye impande y'ibitoki, ari kugenda abicangacanganya kugira ngo akusanye umusaruro yakuyemo.

Igiti k'ipapayi aho kirimo imbuto nyinshi z'amapapayi zigiye zitandukanye harimo izitukuye ndetse n'izitarera, izi rero barazihanura bakajya kuzigurisha zigatanga umusaruro.

Inyanya ni imbuto z'ingirakamaro cyane, aho zifashishwa mu guteka ndetse zigatuma ibyo kurya bisa neza. Ni byiza rero kuzihinga kuko nk'uyu murima wazo tubona, urabona ko hezemo inyanya nyinshi cyane kandi z'ingirakamaro.

Ibisheke ni ibihingwa bikunze guhingwa ahantu henshi hagiye hatandukanye yaba mu misozi ndetse no mu bishanga, ibisheke rero ni ingirakamaro kuko bitanga umusaruro utubutse.

Voka ziri mu gakarito zikaba zigera muri cumi n'imwe. Izi voka rero ni imbuto nziza kuko umuntu waziriye amererwa neza cyane ndetse akagira ubuzima bwiza.

Ubuhubikiro bw'imbuto bwiza cyane ubuzwi nka pipinyeri aho harimo ibihoho biteyemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa bimaze gukura bigeze igihe cyo guterwa.

Imineke ni ingirakamaro cyane, kuko umuntu wese uyiriye abasha kugira ubuzima bwiza, ni nayo mpamvu rero badushishikariza kujya nibura turya umuneke umwe nyuma y'ifunguro.

Ni umurima ahantu ku gasozi hagiye harimo ibitare ndetse n'amabuye, ariko uwo murima ukaba uteyemo ibigori, hepfo mu mubande harimo imyaka myinshi igiye itandukanye kandi myiza.

Ubuhinzi bw'intoryo nabwo bukomeje gutera imbere cyane, kuko basigaye bazihinga ku bwinshi ndetse n'abazihinga kikabaha umusaruro, kuko zikunze gukoreshwa cyane ahantu nko mu mujyi.

Agacupa gasa icyatsi ndetse n'umweru kanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara, kakaba karimo umuti wifashishwa mu buhinzi kugira ngo umusaruro utubuke.

Inkoko zo mu bwoko bwa saso, ziri mu mabara y'umweru, nziza cyane kandi zihishe, zikaba zihagaze, bigaragara ko zimeze neza, bari kutwereka ibyiza byo korora inkoko nk'izi.

Agakarito gasa ubururu kanditseho amagambo y'umweru, iruhande rwako hariho agacupa na ko kahateretse kariho icyapa kimeze nk'ikiri ku gakarito bigaragara ko harimo umuti wifashishwa mu buhinzi.

Agacupa k'umweru gafite umupfundikizo w'ubururu, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, kariho imirongo itambitse iri mu mabara y'icyatsi, yanditsemo amagambo ari mu mabara y'umweru, kakaba karimo umuti wifashishwa mu buhinzi.

Ingurube iri ahantu hamwe hari umuveterineri uri kuyitera urushinge, bigaragara ko yari ifite ikibazo none bakaba bari kuyikingira kugira ngo barebe ko yakira.

Akabati gapanzemo uducupa tugiye dutandukanye, turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, ayo macupa, akaba ari mu mabara agiye atandukanye, kandi akaba anarutana mu ngano.

Akabati karimo amoko menshi agiye atandukanye y'imiti yifashishwa mu buhinzi, iyi miti ikaba iri mu ducupa tugiye dutandukanye, dufite ibipfundikizo by'umutuku, umweru, ndetse n'icyatsi.

Udushashi tugera muri tubiri, tukaba turi mu mabara y'umweru twanditseho amagambo ari mu mabarage atandukanye harimo: umutuku, ubururu, umukara ndetse n'umweru, tukaba turimo imiti yifashishwa mu buhinzi.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ubwoko bw'ifumbire abahinzi bifashisha bari kuhira imyaka yabo kugira ngo imererwe neza, ni byiza gukoresha ubu bwoko bw'ifumbire kuko ritanga umusaruro.

Icupa riri mu mabara y'umweru ririho akarongo gasa umuhondo n'ubururu, ryanditseho amagambo asa umukara ndetse akaba agaragaza ko harimo umuti wifashishwa mu buhinzi.

Ubworozi rero bukomeje gutera imbere mu Rwanda, aho haba hari amoko menshi agiye atandukanye y'amatungo wakorora hanyuma wayitaho akaba yaguha umusaruro, urabona ko iri tungo ribyibushye cyane ku buryo umuntu ryamwungura.

Umugore uri mu murima ndetse akaba yaramaze kuwuhinga, ari kugenda arebako uhinze neza, ngo abe yafata umwanzuro wo kujya gushaka imbuto maze aze atere.

Abantu bagera muri bane, aho bari kubaka akarima k'igikoni. Bakaba bari kugateramo imbuto. Ubu ni uburyo guverinoma y'u Rwanda yashyizeho kugira ngo irwanye imirire mibi.

Abantu benshi bateraniye hamwe b'abamama, aho bari kugenda bakora umuganda mu muhanda baharura ibyatsi. Umuganda rero ni ingirakamaro cyane nkuko ari imwe muri gahunda zashyizweho na Repubulika y'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda, bose bambaye bote, umuganda rero ni igikorwa cyashyizweho na Guverinoma y'u Rwanda.

Abantu babiri bari mu murima bahinzemo ibihingwa byabo, bari kugenda babyitaho, aho bagenda babibagarira ndetse babyitaho kugira ngo bimererwe neza, maze bizatange umusaruro uhagije.

Abantu bahuriye hamwe harimo n'abayobozi ndetse n'umugore wambaye imyenda y'abashinzwe umutekano bazwi nk'abadaso, bahuriye hamwe aho bari gukora umuganda, bari kugenda bacukura ndetse hari n'abaturage iruhande rwabo.

Abantu bateraniye hamwe, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bakaba bari kugenda buhira imbuto ziteye muri pipinyeri zizwi nka voka.

Umugore uri mu murima aho ari kugenda yuhira imyaka ye yahinze akoresheje umupira, akaba yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara.

Intabire ihinze neza, bigaragara ko yiteguye kuba yahingwamo imboga zigiye zitandukanye kandi zikaba zagirira akamaro abaturage, hakurya hari ibiti birebire cyane.

Abantu bagera muri batatu bateraniye hamwe, harimo umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira ndetse n'ingofero akaba afite isuka mu ntoki, iruhande rwe hahagaze mama we ndetse n'umugabo bigaragara ko ari gufotora.

Insina ziteye ahantu mu murima, aho harimo abagore bagera muri babiri bari kugenda bazibagarira kugira ngo barebe ko zamera neza hanyuma zikazabaha umusaruro mu gihe kiri imbere.

Intabire ikiri nshyashya hirya yayo hari umugore wunamye uri kugenda ahinga ahakurikiyeho. Hari ibiti bizwi nk'imisederi birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umugore uri mu murima ukimara guhingwa, akaba ari kugenda akozamo intoki, awutongora kugira ngo uwo murima umere neza maze abe yabasha kuwuteramo imyaka.

Umugore uri mu murima akaba ari guhinga, aho ari kugenda abagarira ibigori, yitegura guhingamo ibishyimbo mu gihembwe kizahita gikurikiraho.

Umugabo wambaye agashati k'umweru aho yagiye mu murima we w'ibishyimbo, akaba ari gusuzuma ngo arebe ko ibishyimbo bye byumye ngo abe yabasha kubisarura hanyuma ajye kubihunika iwe mu rugo.

Muri pipinyeri aho binaza imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, ni ingirakamaro cyane kuko bifasha abantu bagiye gutera imbuto, kuzibonera ku gihe kandi zikaza zifite ubuziranenge.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu murima w'umuceri. Aho hari umugabo ufite metero ari kugenda apima ubuso bw'uwo muceri. Uyu muceri biragaragara ko weze kuko urumye rwose.

Umugabo uri mu murima w'ibigori, aho yambaye amadarubindi ndetse n'ishati ya kaki, ari gutunga urutoki ku bigori ubona ko ari ibigori byiza, byeze neza kandi bikaba byenda kuma.

Igikorwa cy'umuganda, ni igikorwa gihuriza hamwe abantu benshi cyane. Nkuko tubibona aha ngaha, harimo abakora mu nzego z'umutekano, bagiye gufasha abaturage. Harimo abapolisi ndetse n'abadaso. Aho bari kugenda batiyura itaka.

Umugabo uri kugenda atembera mu murima we, aho ari kugenda areba uko ibihingwa bye bimeze, yambaye ipantaro y'umukara, agapira k'umweru, ndetse n'ikote ry'umukara.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bakaba bari kugenda bakora umuganda nk'igikorwa cyashyizweho na guverinoma y'u Rwanda.

Abagore bagera muri babiri, bakaba bateraniye hamwe bicaye ku mashitingi bari kugenda bagosora ibishyimbo batoranya ngo barebemo ibizima bimeze neza ku buryo byavamo imbuto.

Umugore wambaye agakoti k'umutuku gafite amaboko y'umweru, ateze n'igitambaro cy'ubururu, akaba ari mu murima we w'inyanya aho ari kugenda azibagarira azitaho kugira ngo arebe ko zazamuha umusaruro.

Abagabo bagera muri babiri, harimo umwe wambaye agapira k'icyatsi gafite ikora ry'umweru bari mu murima w'imyumbati aho bari kureba uko imyumbati yabo bahinze imeze.

Avoka ni imbuto z'ingirakamaro cyane, iyo bazisaruye bazikusanyiriza hamwe hanyuma bakazitara ni uko iyo zihiye zihindura ibara zigasa umukara hanyuma bakajya kuzigurisha.

Igisambu kigari, giteyemo insina ndetse n'imyumbati. Hari kandi n'umuyoboro ucukuyemo, bigaragara ko bashaka kuhanyuza amazi. Hateyemo kandi, n'ibiti by'imisederi.

Ibirayi byiza cyane byamaze gusarurwa none bikaba byasutswe aho babihunika, umuhinzi wabyo akaba amaze kubigurisha umucuruzi. Umucuruzi na we agiye kubigurisha abakiriya arebe ko yakunguka.

Abantu bazwi nk'abakarani, bakaba bateraniye hamwe, aho bari kugenda bapakira udufuka tw'umuceri, badutondeka hamwe kugira ngo babashe kutugurisha biboroheye.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ingirakamaro cyane kuko bikunzwe n'abantu batari bake mu Rwanda. Iyo babisaruye rero babirunda hamwe hanyuma bakabipakira mu mufuka bakajya kubigurisha.

Umurima uteyemo imyumbati ikiri mitoya myinshi cyane, iyi myumbati rero ni ingirakamaro kuko iyo imaze gukura itanga umusaruro ku muhinzi wayo, maze agakirigita ku ifaranga.

Ibigori bikiri bito biteye ahantu mu isambu, bikaba bitoshye bisa neza cyane, ibi bigori rero ni ingirakamaro, kuko iyo bikuze bitunganywamo ibiribwa byinshi bigiye bitandukanye, bikarwanya inzara.

Umugabo usa n'ukuze uri mu myaka nka mirongo itanu n'irindwi afite amahundo y'ibigori agera muri atanu, aho ahagaze mu murima w'ibigori, akaba ari kubisarura.

Umugabo wunamye mu murima w'inyanya, aho ari kugenda azuhira kugira zibashe kumererwa neza, ndetse anazisasira, hakurya hari umurima uteyemo ibitoki.

Ubuhinzi bw'ibirayi bukomeje gutera imbere cyane, aho muri iki gishanga hahinzemo amoko agiye atandukanye y'ibirayi, bigiye bifite indabyo nziza cyane, izisa iroza ndetse n'izisa umweru.

Avoka nyinshi cyane zahurijwe hamwe, bigaragara ko umuhinzi wazo yamaze kuzisarura hanyuma akazihuriza hamwe kugira ngo abone uko azigurisha, hanyuma abonemo umusaruro.

Abantu benshi bateraniye hamwe, aho harimo abagabo ndetse n'abagore. Iruhande rwabo, hapanze imifuka myinshi cyane ya kirojana irimo umusharuro.

Ni muzu y'ubuhunikiro, aho harimo udufuka twinshi cyane turi mu mabara y'icyatsi n'umweru byiganje, aho dupanze neza ku murongo turimo umusaruro wakomotse ku buhinzi.

Agatebo kari mu mabara y'icyatsi karambitsemo voka nyinshi zigiye zitandukanye, izi voka rero zikaba zigiye kujyanwa ku isoko kugira ngo umuhinzi wazo arebe ko yabonamo amafaranga.

Udufuka twinshi cyane turi mu mabara y'umuhondo dupanze hamwe ku maparete aho turimo umuceri, uyu muceri rero akaba ari umuceri nyarwanda baba barihingiye mu Rwanda hanyuma umusaruro wawo akaba ari uyu nguyu.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho bashyizeho itegeko ko abantu bose bahinga umuceri bagomba kuwukusanyiriza ahantu hamwe, bakawushyira mu mifuka ya kirojana, hanyuma bakabishyira muri koperative.

Umusore wambaye isarubeti y'ubururu, akaba atereye agafuka ku rutugu, akaba ari ahantu hari imifuka myinshi cyane aho bari kugenda bayipakira mu modoka nubwo itari kugaragara.

Mu gishanga ahahingwa umuceri harimo umuntu uri kugenda awurinda. Umuceri uhingwa ahantu harambuye hazwi nko mu kibaya, kandi hagomba kuba hari amazi ahagije.

Imyumbati ni bimwe mu bihingwa byifashishwa cyane mu kurwanya inzara, aho byerera umwaka kandi bikagira akamaro cyane kuko bitera imbaraga ku muntu wabashije kuba yabirya.

Imifuka myinshi cyane ipanze ahantu hamwe, ipanze mu buryo bugezweho, aho iba irambitse ku biti, iyi mifuka rero irimo umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi.

Umurima w'amashu yeze ariko bakaba baratangiye kuyasarura nubwo atarashiramo. Ni byiza cyane rero guhinga amashu kuko ni zimwe mu mboga zigira umusaruro utubutse, ku muhinzi wazo.

Ibiti by'imiyenzi ni bimwe mu bimera bikunze kwifashishwa cyane mu buryo bugiye butandukanye, bikunze kwifashishwa nk'umuti usuzuma uburozi, kandi babyifashisha bazitira ahantu henshi hatandukanye.

Amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto umuntu yatera zikamugirira umumaro, hari ubwoko bw'igifenesi, aho ugenda ukagitera hanyuma cyazera kikaguha amafaranga menshi ahagije nawe ugasezera ku bukene.

Igihingwa kizwi nka kayote, gitanga ibyo kurya bigiye bitandukanye, aho byifashishwa nk'ingereko yifashishwa n'abaturage mu ifunguro ryabo rya buri munsi.

Mu ishyamba harimo amoko menshi, agiye atandukanye, y'ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi. Ibi biti rero ni ingenzi kuko bitanga umusaruro mu buryo butandukanye.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti. Ibi biti ni ingenzi cyane kuko byifashishwa bitanga umuyaga n'amahumbezi kugira ngo abantu bagire umwuka mwiza duhumeka.

Ibiti bigiye bitandukanye biteye ahantu mu busitani. Ibi biti rero bikaba bitanga umuyaga n'amahumbezi kugira ngo abantu baherereye hafi aho ngaho babashe kugerwaho n'umwuka mwiza.

Umurima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ibi bihingwa rero ni ingenzi kubihinga, kuko iyo ubihinze uba uri gukora uburyo bwiza uzabonamo amafaranga mu gihe kizaza.

Ubuhinzi bw'avoka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho voka basigaye bazihunika hanyuma bakazitanga ziri mu bihoho umuntu uyiguze akayitera mu mezi atandatu yonyine ikaba ireze.

Ishyamba ririmo ibiti birebire cyane ariko bitabyibushye ibi biti rero bikaba ari ingirakamaro kuko byifashishwa mu mirimo igiye itandukanye harimo nk'ubwubatsi.

Ibisheke ni ibihingwa by'ingirakamaro cyane kuko bihingwa ahantu hose, haba mu mibande ndetse no mu misozi no mu bishanga, bikaryoha kandi bikagira umumaro cyane kuko bitunganywamo isukari.

Umurima uteyemo ibimera bigiye bitandukanye, cyane cyane higanjemo ikawa ndetse n'ibindi biti birebire cyane, bitanga umuyaga ku bahaherereye.

hari amoko menshi agiye atandukanye y'ibihingwa bikunze guhingwa ahantu mu mirima ndetse haba hari n'ibyimeza, nk'iki gihingwa kizwi nk'umukubayoka, kivamo umuti uvura inzoka.

Ni mu gisambu aho hateyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti cyane cyane ibiti by'imbuto nka voka, amaronji, imyembe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Pipinyeri irimo amoko menshi y'ingemwe z'imbuto umuntu yatera, ikaba isakaje ibiti ndetse hariho n'ibyatsi byashaje, hariho n'agashitingi k'ubururu, kari ahantu binjirira ku muryango.

Akayira kajya kumera nk'umuhanda kakaba gafite igiti cy'umwembe giteye haruguru yako ndetse n'icya voka, hakaba kandi hacaho n'insinga z'amashanyarazi hejuru y'ibyo biti n'umuhanda.

Ni ahantu mu ishyamba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti: ibirebire, ibigufi, ibibyibushye ndetse n'ibinanutse, harimo kandi n'ibyatsi, ibi biti rero bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Amoko menshi y'ibimera bigiye bitandukanye, bitunganywamo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za Kinyarwanda, aha rero hari ibiti biriho ivumbi ryinshi kubera ko ari mu mpeshyi.

Ahantu mu giturage aho hari umurima uteyemo insina nyinshi cyane, hakaba hari n'inzu iri kurenga isakaje amabati, hari n'igice kimwe cy'umuhanda kiri kugaragara gikikijwe n'ibiti birebire.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, harimo ibirebire ndetse n'ibigufi bitanga umwuka mwiza ku bantu baherereye hafi y'iryo shyamba.

Umurima uteyemo insina ndetse n'inyanya, bikaba bigaragara ko izi nyanya zarumbye, kubera ko batazitayeho neza ngo bazitere umuti nk'uko bikwiye.

Amoko agiye atandukanye y'ibiti bikunze guterwa ahantu runaka. Ibi biti rero biba ari ingirakamaro kuko bishobora kuvanwamo ibiti byubakishwa cyangwa bikavanwamo inkwi n'amakara.

Igipangu cyiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho, cyubakishije amatafari ahiye ndetse na sima, hanze y'igipangu hakaba hateye ubwoko bw'urubuto ruzwi nk'ipapayi.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera bizwi nk'ibishayoti. Ibi bimera rero bikaba bigira imbuto nziza cyane abantu barya nk'imboga zikabagirira umumaro.

Mu ishyamba ahari ibiti byinshi byiza kandi birebire, ibi biti rero ni ingenzi kuko birafasha bitanga umusaruro ku mpande zombi.

Hari amoko menshi y'ibiti bigiye bitandukanye, ibi biti rero bizwi nka gereveriya aho iyo bikuze bivamo imbaho nziza cyane zifashishwa mu bubaji.

Agatebo kari mu ibara ry'icyatsi gateretse ahantu mu murima, bakaba bamaze gusaruriramo bumwe mu bwoko bw'ibihaza, bakaba bagira ngo babijyane ku isoko barebe ko babonamo umusaruro.

Ubuhinzi bw'ipapayi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, ipapayi rero ni ingirakamaro cyane kuko ifasha abantu kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ibase irimo imiteja myinshi cyane, iyi miteja rero ikaba imaze gusarurwa bakaba bagiye kuyigurisha. Ni ingirakamaro cyane kuko itanga umusaruro uhagije ku buhinzi.

Ubuhinzi bw'indabyo na bwo busigaye buhabwa agaciro mu Rwanda, aho hari indabyo zizwi nk'imigwegwe, zitunganywamo imigozi bifashisha bazirika amatungo, izwi nk'imirunga.

Amoko menshi agiye atandukanye y'imboga zifashishwa mu kurwanya bwaki, izi rero zizwi nka dodo, zihingwa ahantu heza cyane ndetse bakazitaho zikazagira umumaro.

Abamama ndetse n'abagabo benshi bateraniye hamwe mu murima wa karoti aho bari kugenda bazibagara kugira ngo zimererwe neza, hakaba kandi haparitse n'igare, hirya hari umurima uteyemo ibigori.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ubusitani buteyemo indabyo nziza cyane, ziryoheye ijisho ndetse n'umucaca mwiza cyane ku buryo kuhicara biba bishimishije.

Umurima mugari cyane uteyemo urusenda, ku ruhande hakaba hari ibyatsi byumye bifashisha bari gusasira urusenda kugira ngo ubutaka budakakara.

Ishashi irambitse ahantu ku gitenge ikaba irimo amashaza ahiye, amashaza rero ni kimwe mu bihingwa bikunze guhingwa kandi bikaba biryoha bikanagura amafaranga menshi.

Agatanda kariho amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto bari gucuruza, muri izo mbuto harimo imyembe, amatunda ndetse n'ibinyomoro, hari n'umuntu uri kuzicuruza.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo indabyo z'amoko menshi agiye atandukanye, ruguru hakaba hari inyubako ariko itagaragara neza iteye amarange y'umweru ndetse yubakishije amatafari ahiye.

Umuhinzi ucigatiye pavuro, bigaragara ko avuye kuzisarura mu murima we, akaba ari kwerekana umusaruro ziba zamuhaye, agiye kuzigurisha hanyuma abone amafaranga amufasha kumera neza.

Ubusitani burimo amoko agiye atandukanye y'indabyo bikaba biri mu kigo cy'amashuri gifite amashuri meza, yubatswe mu buryo bugezweho, asakaje amabati meza ndetse ateye n'irange ry'umweru.

Amoko menshi agiye atandukanye y'ibihaza bimanitse ahantu ku kabati bikaba biri ku isoko biri kugurishwa, hari umugabo uri gukoraho ari kwibaza ngo ikingiki kiri kugura angahe.

Ubuhinzi bw'ibinyomoro ni ingirakamaro cyane, aha rero hari umugabo uhagazemo wambaye ishati y'umutuku aho ari kugenda areba niba ibinyomoro bye bimeze neza cyangwa se nta ndwara yabyatatse.

Imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, zikunze kuba ziri mu isoko, iyo ugeze mu isoko, waba ukeneye amatunda, ibinyomoro, indimu, amaronji, amacunga, n'ibindi byose urabihasanga.

Hari ibihingwa byinshi bikunze guhingwa mu Rwanda, cyane cyane ibyera imbuto ku buryo uramutse ubonye igiti cyabyo, utabasha kumenya imbuto zibyeraho, abantu baba babisobanukiwe bonyine ni abahinzi.

Hari amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera ku buryo utapfa kumenya ubwoko bwabyo, hari indabyo ziba zimeze nk'insina ku buryo umuntu azibonye atashishoje yagira ngo ni insina nyamara ari indabyo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite urupangu rwiza cyane aho mu imbere mu mbuga hateyemo imboga za dodo mu karima k'igikoni.

Indabyo nziza cyane zigezweho zisigaye zihingwa, umuntu waziteye ahantu ziri haba hameze neza cyane bigatuma hagaragarara neza ukabona biryoheye ijisho.

Igiti cya avoka ni igiti cy'ingirakamaro cyane kubera y'uko gitanga umusaruro ufatika kandi voka zivuyemo zikaba ziribwa n'abantu b'ingeri zose zigiye zitandukanye.

Ubuhinzi bw'urusenda bukomeje gutera imbere cyane, aho noneho ubu ngubu umuturage uwo ariwe wese yabasha guhinga urusenda noneho rukazamuha amafaranga mu gihe kizaza.

Ubuhinzi bwa karoti na bwo bukomeje gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye ahinga karoti, hanyuma zikazamugirira akamaro mu gihe kiri imbere, kuko zirakunzwe cyane kandi zirakoreshwa.

Guhinga ibinyomoro ni ingirakamaro cyane kuko iyo uhinze ibinyomoro bikera, urasarura ukagurisha ukavanamo umusaruro ufatika maze ugakirigita ifaranga.

Mu rwego rwo kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira ku bana bakiri bato, Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwiza bwo kugira akarima k'igikoni kuri buri rugo, aha rero ni umubyeyi n'abana be babiri, bari kubagarira akarima k'igikoni.

Umufuka urimo urusenda rwinshi cyane harimo urutukuye ndetse n'utaratukura neza, biragaragara ko ari umuhinzi uri kurusarura akaba ari kugenda arukusanyiriza mu mufuka kugira ngo arebe ko yatera imbere.

Inyanya ni kimwe mu gihingwa gikunze kubona abakiriya cyane kandi kikaba gihingwa ahantu henshi hagiye hatandukanye kandi kigahingwa buri gihe.

Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kugira akarima k'igikoni kuri buri rugo, aka karima rero ni keza cyane kuko kariho imboga nziza cyane zitoshye za dodo.

Umuntu ufashe ibitunguru bigera muri bitanu mu ntoki ze, aho ari kutwereka ko ubuhinzi bw'ibitunguru ari ingirakamaro cyane, kuko iyo ubihinze bigufasha gukirigita ku ifaranga, maze ugasezera ubukene.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane ufite rigore zinyuramo amazi ndetse ku nkengero z'umuhanda hari amapoto atwara insinga z'amashanyarazi, hari kandi n'igipangu cyiza cyane.

Amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo ziteye ahantu mu busitani imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba iteye irange ry'umweru, akayira kakaba gashashemo sima.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari muri pipinyeri aho binaza imbuto, bakaba bagiye gushaka imbuto zo gutera, hakurya hahagaze abandi bagabo babiri, bigaragara ko ari abayobozi.

Intoryi ni zimwe mu mboga z'ingirakamaro cyane kuko zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, ugeze nk'ahantu mu mujyi wasanga nta muntu wahaha ifunguro rye riri kuburamo intoryi.

Inyanya nyinshi zitandukanye zasaruwe, aho ziri mu gatete. Bakaba bazijyanye ku isoko, aho bategereje ko abakiriya baza bakazigura hanyuma bakabaha amafaranga.

Umugore wambaye agashati k'umuhondo, akaba ari n'umurima we w'intoryi ari kugenda azisarura, ndetse muri uwo murima hakaba harimo n'amateke.

Umugore wunamye mu isambu ye iteyemo ibishyimbo bigufi, aho ari kugenda abibagarira, imbere ye hahagaze umwana ndetse inyuma ye hari inzu isakaje amategura ashaje.

Ubuhinzi bwa karoti bukunze gukorerwa ahantu mu gishanga, aho ziba zigomba kwitabwaho ndetse bakazivomera kugira ngo zitange umusaruro uhagije, kuko ni ingirakamaro.

Isambu iteyemo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye zifashishwa mu ifunguro rya buri munsi, zizwi nka karoti. Izi mbuto rero, ni ingenzi kuko zituma umuntu waziriye agira ubuzima bwiza.

Ubwoko bw'ibihingwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, aho umuhinzi abihinga hanyuma agategereza byakwera bikamuha umusaruro akabona amafaranga.

Umugabo wakoze umushinga wo guhinga inyanya akaba ari kugenda ateruye ibyatsi aho ari kugenda azisasira. Muri uwo murima w'inyanya kandi hahinzemo ibigori byiza cyane bigezweho.

Umugabo wambaye ingofero y'umutuku, ikote rijya gusa umuhondo n'ipantaro y'umukara icoyemo uturongo tw'umweru, ari gutera imboga mu karima k'igikoni ariko katubakiye.

Inyanya ni ubwoko bw'imboga bw'ingirakamaro cyane kuko zifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ziba ziri mu ibara ry'umutuku, hari kandi n'imiteja y'icyatsi myiza cyane.

Urusenda ruhinze ahantu mu murima, urusenda rero rusigaye rutanga umusaruro utubutse ku muhinzi warwo kuko ikiro gisigaye kigura amafaranga igihumbi na magana abiri.

Umurima uteyemo amashu menshi cyane agiye atandukanye ariko uko bigaragara aya mashu ntabwo yeze neza, biragaragara kuko ni mato cyane.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi, ubu ngubu rero Leta yashyizeho gahunda ko n'amatunda agomba guhingwa hanyuma imbuto zikaboneka ku bwinshi ndetse n'imirire mibi ikagabanyuka.

Ubusitani buteyemo amoko menshi agiye atandukanye y'indabyo. Izi ndabyo rero ni ingirakamaro cyane kuko zituma ahantu hagaragara neza ukabona haryoheye amaso.

Mu Rwanda hari imisozi igera mu gihumbi. Imwe muri iyi misozi rero aba imisozi myiza cyane iteyeho ubwoko bwinshi bugiye butandukanye bw'ibiti. Harimo ikawa, ndetse n'andi moko menshi anyuranye y'ibiti.

Ahazwi nko mu ihubukiro ry'imbuto, haba hari abantu b'inararibonye bazi kwinaza imbuto. Aha rero hari abagabo n'abagore bateraniye hamwe aho baje kugura imbuto bagiye gutera.

Uducupa dukozwe mu byuma tuba turimo imbuto cyangwa se imirama yifashishwa bari gutera ibihingwa babyinaza, ibyo bihingwa bikaba ari karoti.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto umuntu ashobora guhinga zikamugirira umumaro, amwe muri ayo moko ni nka voka, aho haje voka za kizungu zizwi nk'imbangurire, aho uyitera mu mezi atandatu gusa ikaba ireze, nawe ugakirigita ku ifaranga.

Guhinga amatunda ni byiza cyane kuko iyo umuntu ayahinze hanyuma akayitaho bituma abasha gutanga umusaruro uhagije, hanyuma nawe bikamuteza imbere.

Ubuhinzi bw'urusenda nabwo busigaye buhabwa agaciro cyane mu Rwanda, aho barutera bakaruvomerera ndetse bakarusasira hanyuma rwakwera rugatanga amafaranga ahagije.

Mu cyaro haba hari indabyo nyinshi zigiye zitandukanye ku buryo haramutse hageze nk'umuntu utazizi yagira ngo ni insina. Izi ndabyo rero zikunze kuba ziri ahantu hagiye hatandukanye.

Ipapayi ni urubuto rw'ingirakamaro cyane kuko iyo umuntu aruriye amererwa neza cyane ubuzima bukagenda neza, si ibyo gusa kuko no ku muhinzi warwo rumuha amafaranga akiteza imbere.

Umurima uteyemo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, aho hari urubuto rwitwa pome rujya kumera nk'urutoryi rubarusa umukara, ikiganza cy'umuntu kiri kureba ko rweze.

Umushinga wo kwinaza avoka, ni byiza cyane kuko bazigura zimeze neza bagahita bajya kuzitera, zikera mu gihe gito kitarenze amezi atandatu, uyu mugabo uhagazemo rero, ni nyirumurima.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo. Izi ndabyo ni nziza cyane ndetse ziryoheye ijisho. i Ni byizayiza cyane ko umuntu wese yagira ubusitani burimo indabyo nk'izi ngizi.

Ubuhinzi bw'amatunda bugira inyungu nyinshi cyane, ni byiza cyane guhinga amatunda kuko atanga umusaruro kandi akanafasha kurinda indwara z'imirire mibi, harimo na bwaki.

Umurima uteyemo urusenda, ni mugari cyane ndetse biragaragara ko urwo rusenda rumeze neza kandi rukaba ruri hafi kwera kuko urwa mbere rwatangiye gutukura.

Avoka ni zimwe mu mbuto tugomba kurya kugira ngo tugire ubuzima bwiza, aha rero turabona ko hari voka zigera muri cumi n'ebyiri nziza cyane kandi zikiri ntoya.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabyo nziza cyane ndetse bukaba bumeze neza ku buryo umuntu yabwicaramo akaburuhukiramo, hanyuma akumva amerewe neza cyane.

Mu isoko ahari gucururizwa imboga nyinshi zigiye zitandukanye, aho ziri mu gatebo, zikaba ari nziza cyane babari kuzigurisha. Ni byiza cyane kurya imboga kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ni mu isoko ry'imbuto aho haba harimo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye, harimo n'abacuruzi bazicuruza muri izo mbuto twavuga nk'imineke, pome, amatunda, ndetse na wotameloni.

Ahantu mu isoko harimo abacuruzi bagiye batandukanye baje gucuruza ibicuruzwa byabo bigiye bitandukanye, higanjemo ibitunguru biri mu mabara y'umutuku hakaba harimo n'umunzani bifashisha bari gupima ibiro by'ibyo bitunguru.

Mu isoko ry'imbuto haba harimo amoko agiye atandukanye y'imbuto, ku buryo urubuto rwose waba ushaka warusanga mu isoko. Nko muri iri soko harimo imineke, wotameroni, amaronji, indimu ndetse n'amatunda.

Ni mu isoko ahacururizwa amoko agiye atandukanye y'imbuto, aho harimo akabase karimo amoko agiye atandukanye y'imboga ndetse n'imbuto, aho harimo karoti, imiteja ndetse na sereri, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Abagore bagera muri batatu, aho bari mu murima bahinzemo inyanya bakaba bari kugenda bazivomera bakoresheje ibikoresho byabugenewe biri mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo.

Umugabo ufashe umupira w'ubururu aho ari kugenda yuhira imbuto ze yahinze, biragaragara ko ari mu gihe cy'impeshyi none akaba adashaka ko ibihingwa bye byicwa n'izuba akajya kubyuhira.

Ubuhinzi bwa kijyambere aho bwagereye mu Rwanda, umuntu asigaye abasha guhinga igihe icyo ari cyo cyose yewe no mu mpeshyi, uyu mubyeyi rero yahinze ibigori none akaba ari kubyuhira akoresheje imipira yabugenewe.

Abantu bagera muri babiri, bari kugenda buhira imyaka yabo bahinze kubera ko ari mu gihe cy'impeshyi, izuba rikaba ryavuye, bakaba badashaka ko imyaka yabo yicwa n'izuba bityo ikarumba.

Umugore uri kugenda avomera amashu yahinze, aho ari kuyavomerera akoresheje indobo y'umutuku, ndetse ifite umukondo. Ni byiza cyane rero kwita ku mbuto tuba twahinze kugira ngo tubone umusaruro.

Umurima w'amashu meza cyane atoshye kandi abyibushye, aho hari umugore uhagazemo afite umupira wabugenewe ari kugenda ayuhira kugira ngo amererwe neza aticwa n'izuba.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro isa n'iyanduye, akaba ahagaze mu murima w'ibigori afite ipombo bifashisha bari kuhira imyaka, agenda anyanyagiza kugira ngo iticwa n'izuba.

Abagabo bagera muri babiri harimo umwe wambaye kumupira w'ubururu n'ipantaro y'umweru ndetse n'uwambaye umupira w'amaboko n'ipantaro na bote akaba afite umupira uzana amazi w'ubururu, akaba ari kuhira imyaka ye.

Umugabo wambaye ingofero y'uruziga n'agapira gatambitse imironko n'ipantaro y'ikoboyi, ari mu murima we aho afite umupira ari kugenda yuhira imyaka kugira ngo arebe ko yamuteza imbere.

Mu misozi myinshi igiye itandukanye aho harimo icyayi cyinshi cyane kandi giteye mu buryo bw'imironko, hari kandi ibiti byinshi bigiye binyuranye bitanga umuyaga n'amahumbezi biteye aho ngaho.

Ahantu mu cyaro, hari umurima basaruyemo ibigori, none bakaba bari bamaze kuhahinga, hakurya hari amoko agiye atandukanye y'ibiti ndetse n'amazu menshi cyane.

Ahantu ku musozi, aho hari utuzu twubakishije ibiti, tukaba dusakaje amabati ashaje cyane, hakaba harimo amabuye menshi ndetse hateyemo n'insina zikiri ntoya, harimo kandi n'ibiti bigiye bitandukanye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari ahantu mu gisambu, aho bari gusura ubwoko bw'igihingwa runaka, hakurya hari imisozi myinshi cyane kandi myiza ibengerana igiye itandukanye.

Ikibuga kigari kirimo umuhanda mwiza cyane, aho uwo muhanda ari uw'ibitaka. Hakaba haragiye hacikamo amakuku kubera imvura. Ni byiza cyane ko twakwita kuri uyu muhanda.

Ahantu hagari cyane kandi harambitse, hakaba hateyemo ibyatsi byinshi cyane, bigiye bitandukanye, aha rero naho baragira inka ahazwi nko mu gikuyu.

Mu gishanga hakunze kuba harimo abantu benshi bagiye batandukanye, baba bari mu mirimo yabo ya buri munsi, harimo ababa bari guhinga imbuto, ababa bari kuzuhira ndetse n'abandi baba baje gusura imirima yabo.

Mu Rwanda iterambere rikomeje kwihuta, aho haje imashini zihinga, iyi ntabire rero ikaba yarahinzwe n'imashini zabugenewe, aho zihahinga byihuse, mu kanya gato ukabona hararangiye.

Igishanga giteyemo umuceri ukiri mutoya kandi utoshye aho hakurya hari imisozi ituweho n'abantu. Uyu muceri rero aba ari mwiza cyane ku muhinzi wawo.

Ubuhinzi bw'imyumbati bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, imyumbati rero yabonye ifumbire ihagije iragenda igashisha ku buryo iyo ugiye kuyisarura ubasha gukuramo umusaruro uhagije.

Inyubako nyinshi cyane zigiye zitandukanye, zikaba zisakaje amabati y'umutuku, hakurya hakaba hari imisozi myiza cyane na yo iriho amazu ndetse iteyeho n'ibiti.

Ni mu gishanga ahahinzwe umuceri ariko utarera ugeze igihe cyo kurindwa inyoni, hakurya hari umusozi mwiza cyane muremure ndetse n'ikirere kiri gusa ubururu n'umweru.

Umuceri iyo ukiri mutoya bakunda kuwuhinga ahantu mu gishanga, iyo umaze gukura bagenda bongeramo amazi kugira ngo uticwa n'izuba, hanyuma bakawukurikirana kugera weze.

Mu Rwanda, m'uturere tugiye dutandukanye two m'uburengerazuba bakunda guhingamo icyayi. Icyayi rero ni ingirakamaro cyane kuko kivamo ifunguro rya buri munsi ryifashishwa kandi rigatunga abantu bakamererwa neza.

Ikibuga kiza cyane kirimo ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bitandukanye. Hakurya harenga hari abantu ndetse n'inzu zisakaje amabati atukura, ziteye irangi ry'umweru ku bikuta.

Mu gishanga hakunze guhingwa ubuhinzi bw'umuceri, umuceri rero nubwo tubona tuwurya ariko uhingwa ahantu mu bishanga, bisaba kuba hari amazi menshi cyane ku buryo utazicwa n'izuba.

Umudugudu wubatsemo amazu menshi cyane agiye atandukanye, asakaje amabati. Hakaba kandi hari n'umugezi urimo amazi yanduye, umugezi urimo amazi atemba.

Ahantu mu cyaro hari imisozi myiza cyane iteyemo ibiti ndetse mumubande hakaba hateyemo ibihingwa byinshi by'amoko agiye atandukanye, ikirere kirasa ubururu ndetse n'umweru.

Mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba ndetse no mu ntara y'amajyepfo bakunze guhinga icyayi, icyayi rero ni igihingwa cy'ingirakamaro cyane gitanga amafaranga menshi ku kwezi. Iki gihingwa rero ni umwe mu mitungo ikomeye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bwiza zisakaje amabati y'umutuku hafi ya zose, aho hakurya yazo hari imisozi iriho ibiti byinshi byiza kandi birebire.

Igishanga giteyemo umuceri ukiri mutoya ariko kandi hakaba hari n'umuyoboro unyuramo amazi bifashisha bari kuhira uwo muceri kugira ngo uticwa n'izuba.

Amazi menshi cyane kandi magari akaba ari kugenda atembera, aya mazi rero akaba ari ayo mu mugezi w'Akagera, hakurya hari ibiti byiza cyane bigaragara ko bitoshye.

Imirima iciyemo amaterasi y'indinganire, aho iyi mirima itanga umusaruro mwinshi kandi uhagije. Aya materasi y'indinganire bayaca mu buryo bwo kubungabunga ubutaka barwanya isuri.

Mu gisambu ahari amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera, cyane cyane ubwatsi buhabwa amatungo nk'inka, ubu bwatsi rero ni ingirakamaro cyane kuko bufasha aborozi.

Ahantu heza cyane hagari kandi harambuye, haringaniye bigaragara ko ari mu cyanya cyagenewe kororeramo amatungo azwi nk'amatungo maremare ariyo inka.

Mu turere twa Nyaruguru, bakunze guhingamo ibihingwa by'icyayi, biba biri ahantu haba mu mibande ndetse no mu misozi impande ya kaburimbo. Bitanga umusaruro uhagije.

Ni ahantu mu gishanga, aho harimo umugezi utemba, uba urimo amazi menshi, harimo kandi n'imirima igiye itandukanye bahingamo umuceri ariko umuceri urimo ukaba ukiri muto utarakura.

Inyana ikiri umutavu iryamye ahantu mu ruhongore rwayo, aho ari inyana ya kijyambere iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba itaramenya kurisha.

Ihene iziritse ahantu ku giti, ikaba iri mu mabara ajya gusa nk'igitaka ndetse n'umukara. Ikaba ibyibushye imeze neza cyane, izi rero zitangwa mu budehe.

Umugore uhagaze, iruhande rwe hakaba haziritse uduhene tubiri ndetse n'akandi ka gatatu, uwo mugore akaba yambaye ishati y'iribaya ndetse n'ijipo ya kupe, akaba akenyeye n'agatambaro.

Kororera amatungo mu biraro, ni ingirakamaro cyane kuko bidufasha kubungabunga ibidukikije, ndetse akanatanga ifumbire maze umuhinzi akanezererwa, ni byiza rero kuyagaburira mu biraro byayo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko ari abayobozi, aho basuye ikiraro cy'abaturage bashaka gukora umushinga w'ubworozi ngo barebe ko cyujuje ibyangombwa.

Ingurube iri mu kiraro hamwe n'ibibwana byayo bigera muri bine, byiza cyane bihishe, ibi rero ni imwe mu nzira y'amajyambere kuko korora ingurube birungura cyane.

Umugore uri kumwe n'umwana we akaba yunamye ari kuzirika ihene ye ku twatsi kugira ngo ibe irarisha, hirya ye hari indado nziza cyane ndetse hari n'inzu iteye umucanga.

Ihene zigera muri ebyiri ziziritse ahantu hamwe, ni ihene nziza cyane za kijyambere, aho zorowe n'umuntu akaba yaziziritse hamwe kugira ngo zikomeze zimererwe neza.

Inka nziza cyane ya kijyambere ndetse ya kizungu. Ikaba iri mu mabara agiye atandukanye y'umukara ndetse n'umweru. Ikaba iziritse ahantu mu kiraro kugira ngo itagira ikibazo.

Ihene zigera muri ebyiri ziziritse ahantu hamwe, zirahagaze hirya yazo biragaragara ko hari umwijima. Izi hene rero, ni byiza kuzorora kuko umuntu aba azibitseho amafaranga.

Mu giturage abantu benshi baba boroye amatungo agiye atandukanye, hari amatungo yitwa ihene, aho bakunda kuyazirika ahantu ku isambu, hanyuma akagenda arisha bakajya kuyacyura mu ijoro.

Inka iri mu kiraro cyayo aho iri kurisha ubwatsi ku gatanda kayo kabugenewe, hanze hari indi nyana ikiri ntoya iri kugenda isangira na nyina.

Ihene zigera muri ebyiri, harimo imwe iziritse ku kiraro cy'inka, zikaba ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, zikaba ziri hamwe ziziritse bigaragara ko badashaka ko zona.

Umuryango ugizwe n'umugabo, umugore ndetse n'umwana, bakaba bariteje imbere mu bijyanye n'ubworozi, aho boroye inka ndetse bakaba bafite n'inkoko nyinshi, umwana ari kuzigaburira mu gihe papa we afite ubwatsi agiye guha inka.

Inka iri ahantu mu kiraro, aho iri kugenda irya ubwatsi baba bayishyiriye imbere. Ubu ni uburyo bwiza bwo korora bwashyizweho na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije.

Ubworozi bw'ihene bumaze gutera imbere cyane, aho umuntu asigaye aba afite ihene nyinshi, hanyuma abitseho amafaranga uko atewe n'ikibazo akagenda yitabaza imwe, hanyuma akarushaho kumererwa neza.

Ubworozi bwa kijyambere budushishikariza kororera amatungo yacu mu rugo tukajya tuyahirira mu kigwi cyo kujya kuyaragira. Ni byiza cyane rero urabona ko iyi nka imeze neza kandi yitabwaho kubera ko itirirwa ibunga mu kigunda.

Inkoko ya sa iri kugenda itambatamba imeze neza irabyibushye, umworozi wayo yiteje imbere kuko ubworozi bw'inkoko butuma umuntu abasha gukirigita ifaranga byihuse.

Umugabo ufashe inka mu kiziriko, inka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Uwo mugabo yambaye agashati k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi yahinnye. Akaba ahagaze mu muhanda, hakurya ye hahagaze abandi bana babiri.

Inka nyinshi cyane ziteraniye hamwe mu biraro byazo, ubu ni uburyo bwiza bugezweho bwashyizweho na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije ndetse no kwirinda kuragira inka ku gasozi.

Inka iri mu kiraro, ikaba ari inka yo mu bwoko bwa kizungu, aho iri mu mabara y'umweru muke ndetse n'umukara, ku kameza kayo nta bwatsi buhari, bigaragara ko nyirayo yagiye kubushaka.

Ihene zigera muri ebyiri ziziritse ahantu ku giti, hakaba hari ifumbire zakoze ariko ritararanoga neza, ni byiza cyane korora ihene kuko zifasha mu kurwanya ubukene.

Kugira ngo twiteze imbere Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo ko buri Munyarwanda wese agomba kororera inka mu kiraro kandi akorora inka za kijyambere, abo bagabo rero bakaba bari kwita kuri iyi nka ya kizungu.

Inkoko za kijyambere zizwi nka "Saso". Zikaba ziri ahantu bazoroye zimeze neza ubona ko zibyibushye. Ni byiza rero gukora umwuga w'ubworozi bw'inkoko kuko bituma umworozi wazo abasha kwiteza imbere.

Ihene zigera muri ebyiri ziziritse ahantu ku rugo rwubakishije ibyuma, izi hene rero zitangwa n'ubudehe, aho baziha abaturage bitewe n'icyiciro barimo kugira ngo biteze imbere.

Ihene iziritse ahantu mu rutoki, aho iri kugenda irisha ibyatsi biri hafi aho ngaho; urutoki rero ni ingirakamaro cyane kuko rudufasha kubona ibyo kurya, nk'ibitoki!

Inka nyinshi ziri mu biraro, aho ziri kugenda zirya ubwatsi. Ni inka za kijyambere ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. Hari abantu bahagaze imbere yazo, bazisuye bari kugenda bandika, bigaragara ko ari abayobozi.

Inka za kijyambere, aho ziri kugenda zirira ubwatsi mu biraro byazo, ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, hari umutavu ukiri muto uri konka ariko wabuze aho ibere riri.

Ubworozi bw'ingurube ni bwiza cyane kuko butanga umusaruro uhagije, iyi ngurube iryamye rero iri konsa ibibwana byayo bitandatu yabwaguye, umuhinzi wayo ubungubu ari kwicinya icyara ati ifaranga narikozeho.

Ubworozi bw'ingurube bumaze gutera imbere cyane, aha rero hari ingurube nyinshi cyane ndetse n'abantu bazikikije, bigaragara ko ari gahunda ya Leta yo guha abaturage ingurube bakaba bari baje kuzitora.

Abantu benshi bateraniye hamwe higanjemo abagore ndetse n'umugabo umwe, bakaba bafite inkwavu mu ntoki zabo, bigaragara ko biyemeje korora ubworozi bw'inkwavu kugira ngo babashe kuziteza imbere.

Ingurube iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba iryamye ikonsa ibibwana byayo yabwaguye byinshi bigera nko muri cumi na bibiri, ubworozi bw'ingurube burungura cyane kuko umuntu uzoroye abona umusaruro ufatika.

Ubworozi bw'inkoko ni ubworozi bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho wabasha korora inkoko zawe ukazajya uzororera mu nzu kandi ukazigaburira neza zikaguha umusaruro mu gihe kizaza.

Ubworozi bwa kijyambere bwaraje, ubu ntibikiri ngombwa ko umuntu yirirwa ajya kuragira inka mu masambu ahubwo ni byiza kuyororera mu rugo ukazajya ujya kuyahirira hanyuma ikaguha ifumbire n'umusaruro.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje gutera imbere cyane kuko iyo woroye ingurube ikabyara rimwe; ibyara ibyana byinshi cyane, ukaba wabyorora cyangwa ukabigurisha bikaguteza imbere; iyi rero yabyaye ibyana bigera muri cumi na bitatu.

Umugabo wambaye agashati kadoze mu gitenge akaba yambaye ipantaro y'icyatsi n'inkweto za bodaboda, akaba afashe akagurube ari kugafata mu nda ngo yumve ko kameze neza hanyuma abe yakagura.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru n'agapantaro k'umweru akaba yifashe mu mifuka, ari kureba mu kiraro cy'inka ngo arebe ko inka ze zimeze neza rwose, n'inka nziza za kizungu zigezweho.

Ubworozi bw'ingurube za kijyambere bumaze gutera imbere, aho iyo woroye ingurube ikabyara utangira kumwenyura kuko uba watangiye gukirigita ku mafaranga, kuko ingurube ni itungo rikura umuntu mu bukene byihuse.

Inka nziza cyane iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, ikaba iri mu kiraro cyiza cyane, cyubatswe mu buryo bugezweho gisakaye, ikaba iri kugenda itemberamo gake gake yitonze.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda. Aho abazorora bibanda cyane cyane mu korora inka za kijyambere. Ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara zizwiho gutanga umusaruro utubutse.

Inyanya iyo zikiri ntoya ziba zitarasa umutuku ariko iyo zimaze kwera neza zihindura ibara zigatukura, hanyuma bakabona kuzikoresha bazitekesha.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutera imbere mu Rwanda, aho hasigaye hari abahinzi bahinga inyanya kinyamwuga, bakazitaho hanyuma na zo zikazabateza imbere, bagakirigita ku ifaranga.

Ubuhinzi bw'imboga zizwi nka dodo bukunze kwitabwaho cyane ndetse bakanazivomera aho baba bazirinda izuba, izi rero iyo zimaze gukura zibaha umusaruro ufatika.

Ahantu mu gishanga, aho hari umugezi urimo amazi atemba, uwo mugezi rero ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi cyane, bigiye bitandukanye.

Ubwoko bwinshi bw'ibimera bigiye bitandukanye, ibi bimera ni ingirakamaro kuko birahingwa, iyo byahinzwe rero bigirira akamaro umuhinzi wabyo bigatuma abasha kwikura mu bukene.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bumaze gutera imbere cyane mu Rwanda, aho umuntu wese wahinze ibishyimbo, iyo abisaruye abasha gukuramo umusaruro ufatika, ndetse akaba yabona ibyo kurya, agasagurira n'amasoko.

Ikiganza cy'umuntu gifashe intoryi ebyiri zikiri ntoya, biragaragara ko uyu muntu yahinze intoryi none akaba yaraje kureba ngo arebe ko zeze.

Amoko agiye atandukanye y'ubwatsi bakunda gutera ahantu mu mubande hanyuma ubu bwatsi bwakura bakabwahira bakabushyira amatungo yabo baba boroye, yaba ihene, intama cyangwa se inka.

Umurima munini cyane bigaragara ko wasaruwemo ibigori ariko ukaba utarahingwa ariko ibigori bikaba byarashizemo, uwo murima ukaba uri ahantu mu gishanga.

Inyanya ni ingirakamaro cyane kuko umuhinzi wazihinze zituma abasha kwiteza imbere. Ni byiza rero kubanza kuzihuka ahantu hamwe hanyuma zamara gukura ukabona kujya kuzitera.

Akarundo k'ibirayi karuje hagati mu murima urimo n'ibindi bihingwa byinshi bigiye bitandukanye, bakaba bari kutwereka uko ibirayi byera hano biba bingana.

Mu rwego rwo kurwanya imirire mibi ndetse n'irwingira mu Rwanda, leta y'u Rwanda yavuze ko abantu bose bagomba guhinga imbuto, iki rero ni ikibiringanya aho iyo umuntu akiriye bituma agira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko mbere yuko uhinga ubanza kwinaza imbuto, aha rero turahabona ubusitani buteyemo amoko menshi y'imbuto zikiri ntoya ndetse hakaba hanasakaye hasakaje ibyatsi byumye.

Ubuhinzi bw'ibitunguru bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, aho umuhinzi wabihinze abasha kwiteza imbere ndetse akagira ejo hazaza heza. Ibi bitunguru rero bitanga umusaruro ku mpande zombi.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane ariko biba byiza kurushaho, iyo woroye inka za kijyambere kuko zitanga umukamo utubutse kandi ntabwo zivuna cyane, uyu mwana rero ari kugenda azitaho azikorera amasuku.

Abagabo babiri bateraniye hamwe, aho umwe ahagaze undi akaba asutamye. Impande yabo hari inka ihahagaze, aho umwe ari kugenda akora ku mabere yayo bigaragara ko ari kuyivura. Iyo nka irasa umweru ndetse n'umukara.

Inka yo mu bwoko bwa kijyambere iryamye yapfuye, bigaragara ko ishobora kuba yari irwaye hanyuma bagatinda kuyitaho bikayiviramo urupfu.

Abantu benshi bagiye batandukanye, barahagaze bari kureba inka, harimo abana ndetse n'umugabo uri kugenda azitambukamo bigaragara ko ari umushumba wazo, izi nka rero ni iza kijyambere.

Uruhu rw'ingurube yagize ikibazo bigaragara ko yarwaye ibisebe, ikaba yari iri mu mabara y'umweru n'umukara, ikaba yazanye udusebe bivuze ko ari byiza ko bahita bajya kuyivuza.

Abantu babiri bateraniye hamwe bakaba bahagaze mu gisambu aho baragiye inka nyinshi cyane, ni byiza cyane kuragira inka ahantu habugenewe kuko bituma nta muntu zibasha kuba zabangamira cyangwa zonera.

Inka ya kijyambere iri mu mabara agiye atandukanye y'umukara ndetse n'umweru, iruhande rwayo hari abana babiri, hirya hari abandi bantu b'abashumba baragiye izindi nka zigiye zitandukanye.

Abantu bagera muri bane bateraniye hamwe; aho arimo babiri bafashe inka, hari undi w'umuveterineri wambaye imyambaro y'impuzankano y'akazi ari kuyitera urushinge. Hari undi mugabo uhagaze imbere yabo ubyibushye.

Umugabo w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, akaba yambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, afite ihene hagati y'amaguru ye, ari kugenda ayitera urushinge bigaragara ko ari kuyikingira.

Ni muri farumasi ahazwi nk'ahacururiza imiti y'amatungo, aho harimo veterineri wabyigiye wambaye impuzankano yo mu ibara ry'ubururu, ari kugenda atondekanya iyo miti ku muronko.

Abantu bagera muri batatu bafashe inka bayiryamisha hasi, babiri barayifashe hanyuma undi umwe ari kugenda ayikura amahembe, ubu ni uburyo bwiza bwo kugira ngo inka izakure imeze neza kandi ibyibushye.

Veterineri ni umuntu uba warize ibijyanye n'ubuvuzi bw'inyamaswa, akaba ariwe ubasha kuvura inka igihe zagize ikibazo, uyu rero ari kugenda ayisuzuma ngo arebe ikibazo yaba ifite mu nda.

Indabyo nyinshi cyane ziteye ahantu mu gisambu, hariho rumwe rufite uruyange ruhagazeho n'akanyoni, akanyoni gafite umunwa muremure cyane kakaba kari mu mabara y'icyatsi umukara, umuhondo ndetse n'umweru.

Muri parike y'Akagera haba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye kandi zitangaje, hari izizwi nk'udusumbashyamba aho ziba ari ndende cyane kandi zikaba zihisha amashami ndetse n'amababi y'ibiti.

Muri parike y'igihugu y'Akagera, haba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, muri izo nyamaswa twavugamo inyamaswa zimeze nk'abantu zizwi nk'ibitera, ziba zizi kurira ibiti, ndetse zitagira n'amahane cyane.

Muri parike y'igihugu y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye. Ingagi rero ni bumwe mu bwoko dusanga muri pariki y'Akagera; zikunda kurira ibiti ndetse ziba zizi no kwifotoza cyane.

Ingwe ni inyamaswa y'inkare cyane kuko yica inyamaswa nyinshi cyane kandi ikaba izwiho kugira ubugome kuko ifata ku gakanu. Ikaba izi kwiruka ndetse no kurira ibiti.

Umuhanda mugari usheshemo amapave, hakaba hicayemo inkende yarambuye umurizo, inkende rero ni akanyamaswa keza kajya kumera nk'abantu, kuko kagira imico nk'iy'abantu.

Ahantu mu ishyamba hakunze kuba harimo ibiti, ibyo biti rero urebye neza hakunze kuba harimo inkende nyinshi zigiye zitandukanye, ziba zibereyemo hejuru ndetse ubona zifite akanyamuneza.

Muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, hakunze kuba harimo utunyamaswa tuzwi nk'inkende. Izi nkende rero, ni inyamaswa ziteye nk'abantu, zikunze kurya n'ibyo abantu baba bari kurya, yewe kuko zijya zinabambura ibyo bafite.

Isha n'akanyamaswa kajya kumera nk'ihene, kaba gafite amahembe maremare cyane. Kaba kagiye kwiruka cyane ku buryo inyamaswa yose yakirukaho itagafata mu buryo bworoshye.

Muri Parike y'u Rwanda y'Akagera haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa, izi ngizi tubona aha ngaha rero zitwa ibitera, zijya kumera nk'umuntu cyangwa se ingagi.

Inguge ni inyamaswa nziza cyane ziba zitwara nk'abantu, ndetse zikajya gusa nk'abantu. Zifite amabara y'umweru n'umukara. Zikaba zuriye igiti harimo kamwe kakiri gato ndetse na nyina yako.

Habaho imbeba za kizungu ziba zifite imirizo ifite insezi, ukabona umurizo urabyibushye cyane. Izi mbeba ni mbi cyane kuko iyo zigeze mu myenda zirayicagagura ugasanga yabaye ubushingwe.

Inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye harimo lmpara n'lmparage, zikunze kuba ziri ahantu heza hisanzuye by'umwihariko nko muri Parike y'Akagera mu Rwanda.

Igisiga ni bumwe mu bwoko bw'ibiguruka, bikunze kugira amahane cyane kuko bikunda kurya inyamaswa abaturage baba boroye urugero nk'inkoko, ibi rero biraguruka igihe kirekire.

Igikona kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, kikaba gihagaze ku ishami ry'igiti, iki gikona rero kirakuze cyane nk'uko tubizi ibikona bigira imyaka myinshi.

Muri parike haba harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, hari inyamaswa yitwa impyisi aho zikunda kugendagenda zishaka utunyamaswa twipfushije ngo abe ari two zirya, kuko nta mbaraga zigira cyane.

Isha ni iyamaswa ijya kumera nk'ihene, ibafite amahembe maremare cyane ariko ikaba izwiho kwiruka, ikaba ihagaze ahantu mu gisambu iri kureba ngo irebe ko nta mwanzi ugiye kuyigirira nabi ubundi ikizwe n'amaguru.

Akanyoni kari mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, gahagaze mu giti, aho kari kureba kameze nk'agafite agahinda, aka kanyoni rero kakaba kitwa akanyamanza.

Inyamaswa izwi nk'Inguge iba imeze nk'abantu. Ikunda kurira ibiti cyane kandi ikaba izi kwifotoza. Zikunze kuboneka muri Parike Nkuru y'Igihugu y'Akagera.

Inyamaswa zizwi nk'inkura zikunze kuba ziri ahantu muri parike, ni inyamaswa iba ifite ibihembe imbere ku mazuru ku buryo iba itinyitse nubwo iba iryoheye amaso, ikaba ibyibushye cyane kandi.

Ubwoko bw'igisiga kizwi nk'igikona, kiba gifite amabara agiye atandukanye, gifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, aho gikunda kuguruka gake cyane gashoboka.

Inkende ni akanyamaswa keza cyane, kandi gateye nk'abantu. Gakunda kugenda mu biti kuko kazi kurira cyane no gusimbuka. Kitwara nk'abantu ndetse gakunda no kwambura abantu ibyo kurya baba bafite.

Muri parike y'Igihugu y'u Rwanda, harimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, izi rero zizwi nk'imparage ziba ziri mu mabara meza cyane y'umukara n'umweru, zizwiho gukunda abantu ndetse no kugira umutima mwiza.

Imbwa ni inyamaswa izwiho ubuhanga ndetse n'ubushishozi, ikaba izi ubwenge kandi ikaba izi kwiruka, ikindi ni uko ari yo nyamaswa ibasha kubana n'abantu mu rugo.

Muri parike y'u Rwanda y'Akagera iherereye mu karere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo na Kayonza, haba harimo inyoni nyinshi z'amoko agiye atandukanye, nziza ziteye amabengeza, ku buryo ziryoheye amaso kuzireba.

Hariho imbeba za kizungu ziba zifite imirizo ifite ibyoya byinshi zikunze kuba ziri mu biti, izi mbeba rero ni mbi cyane kuko iyo zigeze ku myenda zirayicagagura yose igahinduka ubushingwe.

Muri Parike y'Igihugu y'u Rwanda y'Akagera haba harimo inyamaswa nyinshi cyane zigiye zitandukanye zizwi nk'inguge, zikunda kurira ibiti ndetse zigakunda no gukina cyane.

Ahantu hateye indabo cyane cyane iyo ari mu gihe k'imvura ukunda gusanga kuri izo ndabyo cyangwa ku mababi yazo hariho utunyamaswa twitwa imitubu, tukajya turagenda dusimbagurikaho.

Muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa by'umwihariko inkende, inkende n'inyamaswa zikunda kuba ziri muri iyi kaminuza ziri gutemberamo.

Muri parike y'igihugu y'Akagera, iherereye mu karere ka Nyagatare ndetse na Gatsibo, by'umwihariko mu ntara y'Iburasirazuba. Haba harimo inyamaswa z'inguge zikunze kuba zimeze nk'abantu.

Inyoni ihagaze mu giti aho iri mu mabara agiye atandukanye y'umukara ndetse n'umutuku, iyo nyoni rero ikaba iri kureba hejuru, iyi nyoni iri mu bwoko bw'ibiguruka cyangwa ibisiga.